Muri sitade Amahoro harimo Minisitiri shyaka anasitaze n'abandi bayobozi mu nzego zinyuranye z'igihugu bari bitabiriye umukino uhuza amavubi.

Umuyobozi w'abagore aganira n'abaturage abagezaho ingamba nshya, abaha amabwiriza, banungurana ibitekerezo n'agacupa k'amazi.

Ifoto igaragaza abayobozi bakomeye batandukanye mu nzego za leta, bahuye n'intumwa zivuye muri Amerika, mu Buhinde baganira.

Urubuga rwa Rwanda Reveni Otoriti, aho umusoreshwa wese ashobora kubona serivisi akeneye atiriwe agera ku biro bya Rwanda Reneni Otoriti.

Inzu itangirwamo serivisi z'ikoranabuhanga siberi kafe, aho abakiriya babona serivisi zinyuranye za interineti, kuri mudasobwa.

Irembo ni urubuga leta y'u Rwanda yashyizeho, abaturage banyuranye basabiraho serivisi hafi ya zose za leta, batiriwe bajya mu biro.

Ipirone rinyuzwaho insinga z'umuriro w'amashanyarazi kugira ngo ukwirakwizwe n'insinga z'amashanyarazi mu bice binyuranye by'igihugu.

Ipoto y'amashanyarazi iriho n'insinga z'amashanyarazi itwara umuriro mu bice bitandukanye by'igihugu cy'u Rwanda cyane cyane mu bice by'icyaro, bigaragaza ko na bafite umuriro.

Umuhango w'irahira w'abacamanza n'abavoka bashya ba leta binjijwe mu mwuga.

Inzego z'umutekano z'u Rwanda polisi, baherekeje Polo Rusesabagina agiye mu rukiko kuburana.

Abantu batandukanye bakekwaho ibyaha bari mu rukiko rwa gisirikare, bambaye impuzankano, baregwa bashinjwa kuba barakoze ibyaha bijyanye n'intambara bahungabanya umutekano w'igihugu.

Imodoka yu'mweru iri mu muhanda wumukara ifite amapine y'umukara, iri mu mabara yu'mweru ndetse harimo n'mabara y'umuhondo, iruhande rwayo hari ipikipiki itwaye umuntu umwe wambaye agakote k'umuhondo ndetse n'ubururu, ipantaro y'umweru ndetse numupira w'mweru n'undi wambaye umupira wumukara ipantaro y'umuhondo werurutse n'ingofero y'ubururu ahetse n'igikapu cy'umukara.

Imodoka ya Polisi yo mu muhanda, iparitse, hamwe n'amakamyo yaje gusuzumwa ubuziranenge.

Ishyaka efuperi inkotanyi n'umukandida wa ryo Paul Kagame mu matora ya bibiri na makumyabiri na kane ubwo yiyamamazaga kuba perezida wa repubulika y'u Rwanda.

Umukandida wo ku rwego rwa perezida Franke Habineza wari uhagarariye ishyaka girini pati mu matora ya perezida yabaye umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane.

Imodoka ya tagisi mini bisi iparitse muri gare umunyamaguru umugenzi uje gutega ufite ubumuga witwaje imbago muri gare.

Imodoka zitwarira abantu hamwe zo mu bwoko bwa toyota hiyase minibisi ziparitse muri gare zitegereje abantu.

Imodoka yo mu bwoko bwa dina ndende, iri mu muhanda, umunyamaguru uri kunyura mu nzira z'abanyamaguru ibisikana n'imodoka ya toyota hiragisi hamwe n'igare rituruka inyuma.

Ibinyabiziga mu muhanda i Kigali harimo: umunyonzi, umumotari n'imodoka nto itwara imizigo ifasha abantu kwimuka, umumotari ahetse umugenzi hamwe, n'inzira y'abanyamaguru.

Umuhanda wo mu Rwanda ugaragaza amamoto y'imipine ibiri, n'abatwara abagenzi hamwe n'izindi moto z'imipine itatu zitwara imizigo yoroheje.

Indobo ishyirwamo imyanda ku muhanda, ingorofani ifasha mu gutwara iyo myanda , igiti i ruhande rw'inzira y'abanyamaguru,...

Umuhanda uva kigali aho ufite izi moto hadi bodi zifasha abantu gutwara imizigo itaremereye kandi itari minini cyane idafite ubushobozi bwo gukodesha imodoka.

Abantu bicaye mu cyanya cyagenewe ahantu hatanyurwa imodoka, aho abantu baruhukira bifotoza, bakoresha enterineti, inzira z'abanyamaguru gusa nta kinyabiziga na kimwe kinyuramo.

Icyapa kigaragaza ko ku banyamagare bitemewe kunyura muri iyo nzira kuko byateza ibyago. Amagare ntiyemewe kuhanyura.

Icyapa kiburira abantu kugabanya umuvuduko, iyo umuhanda unyurwamamo utameze neza cyangwa se hari akamanuka gahanamye gashobora guteza ibyago.

Inzu iherereye Kimirinko ku murenge y'ubucuruzi imeze neza ikaba ari inzu ya etaje igeretse inshuro eshatu.

Inyubako zigaragaza imigozi y'amashanyarazi, amapironi y'amashanyarazi inzu zigeretse ahari kubakwa inzu nshyashya amabati.

Umuhanda mu Giporoso ugana kuri gare, aho usanga abamotari benshi imodoka abantu benshi bajya mu mpande zitandukanye z'igihugu bategera amamoto.

Umurenge wa Ndera ugaragaza amazu arimo yubakwa, amazu ageretse n'amakadasitire. Bigaragaraga ko ari ahantu hari gutera imbere.

Isangano ry'imihanda, hari imidoko yinjyira mu muhanda, n'izindi sinzawe ziyirimo zigenda, hari umu motari uhetse umugenzi, imodoka ya toyota nagisi ipakiye imizigo, n'indi mogoka nini iri mu muhanda igenda.

Umuhanda w'i Kigali ugaragaza inzira y'abanyamaguru, aho bambukira bashaka guhindura igisate cy'umuhanda. Aho banyura, aho bambuka batekanye, ibyapa byamamaza Eyateri.

Umuhanda wa Kigali ugaragaza umumotari, inzira y'abanyamaguru, umunyeshuri uvuye ku ishuri aho amategeko y'umuhanda yubahirizwa.